Ingorofani, umwiko ndetse n'ibindi bishushanyo, ni byo bigomba gushyirwa imbere y'ibigo by'amashuri ndetse no ku nkuta z'amashuri y'abana b'inshuke.

Gushyira ibikinisho by'abana mu mazi ni byiza kuko bibafasha kugubwa neza, hirindwa ko bashobora gutebera mu mazi bakaba babura ubuzima bwabo.

Abakora ibikorwa by'ubucuruzi bavuga ko igihe badakuriweho umusoro bashobora guhura n'ingorane zikomeye kuko ngo kuva muri bibiri na makumyabiri na gatatu kugeza magingo aya umusoro ukomeje kuba ikibazo.

Kandagira ukarabe iriho amazi n'isabune, bijya bifasha cyane kwirinda indwara zandura, cyane cyane igihe amazi ameze neza, asukuye mbese atarimo imyanda iyo ari yo yose.

Abana na bo ni ngombwa ko igihe bari ku ishuri cyane cyane abari munsi y'imyaka itanu bashushanyirizwa bimwe mu biribwa amatungo ndetse n'inyamaswa ku bibaho by'amashuri bigamo kugira ngo bibarangaze ubwenge bwabo bukore neza.

Hari amwe mu maguriro akomeye cyane mu mujyi wa Kigali aho usanga yaritaye ku birangaza abana birimo nk'ibipupe by'imbwa, iby'injangwe ndetse n'ibindi bibafasha kwishima.

Mu bikorwa byo gukurura ndetse no kwiyegereza ibitekerezo by'abana barererwa mu marerero matoya, harimo no kubakorera ibikinisho, bishushanyije mu ndabyo ndetse no mu mbuto.

Gusubirishamo abana amasomo, ntabwo ari iby'umubyeyi w'umudamu gusa, ahubwo n'umugabo yabikora ndetse byaba akarusho, agafatanya n'umubyeyi, mu gusubirishamo abana amasomo yabo kugira ngo babyumve neza.

Ibikinisho by'abana n'ubwo hari bamwe babifata nk'aho ari ibisanzwe ariko ubundi bifasha umwana mu gukura neza ndetse akanatinyuka akarushaho gusobanukirwa ibintu.

Mu mashuri y'incuke, biba byiza iyo ibikoresho hafi ya byose bikoreshwa mu rugo, bishushanyijwe mu rwego rwo kugira ngo buri mwana akora azi neza, igikoresho asanzwe abona n'akamaro kacyo.

Ibikinisho by'abana, birimo iby'amabara atandukanye, nibyo bigomba gushyirwamo imbaraga, bitewe n'uko abantu babikoramo, bafite amafaranga menshi.

Igare rishushanyijwe mu buryo bwa moto ariko bikozwe n'ibyuma, niryo rizajya ryifashishwa n'abantu bashaka kumenya byinshi, ku bigendanye n'ubukorikori.

Igihe abana bari mu karuhuko batozwa kwiga indirimbo, ndetse n'indi mikino igiye itandukanye kugira ngo babashe kuganira kandi baririmbe, mu buryo bwo kugira ngo basubirane ubudahangarwa batangiranye mu gitondo.

Irerero riherereye mu karere ka Nyagatare, rirakangurira ababyeyi ndetse n'abandi babyifuza ko ryafunguye amashami yaho muri imwe mu mirenge itandukanye, kuko ngo hari abana bakomeje gutaka ko hari amashuri makeya, bityo ntibajye ku ishuri ku gihe.

Kwigisha abana ibigendanye n'amashusho atagaragara neza, ibi bizwi nka katuni, bituma bishima kandi bakumva ko banezerewe bitewe n'ibyo bishushanyo.

Amabara agiye atandukanye afasha abana bari mu marerero agezweho kwiga neza kandi bagafata bitewe n'uko aya mabara atuma ubwonko bwabo bubasha gutekereza byagutse.

Bimwe mu bintu byihutirwa umuntu akwiye gukora mu gihe agiye gushinga irerero ni ibishushanyo by'inyamaswa ndetse n'izindi nyuguti kugira ngo abana nibabibona bishime.

Igihe abana bagiye gukina ni ngombwa ko hashyirwaho ibikoresho bifashisha mu kwitoza ndetse hanategurwa n'amarushanwa ahuza amashuri bizwi mu ndimi z'amahanga nka interikarasi.

Amarati atandukanye harimo ica umurongo, ica uruziga ndetse n'izindi zitandukanye biravugwa yuko abana igihe bazikoresheje neza bashobora gutsinda imibare cyane.

Ni ngombwa ko ibigo byose bishyirirwaho, imyicunngo ku bana batoya, biga mu mashuri y'incuke bitewe nuko'uko bibafasha kuruhuka ndetse bagasangira umunezero hamwe.

Abakora ibikorwa byo guteza imbere ibigo by'amashuri bitanga amasomo y'ubumenyin ngiro ahantu aho ari ho hse mu gihugu, ikigo APELO Nyamata cyatangaje ko cyashyizeho uburyo bwo kwakira abantu bose bifuza kwiga.

Bimwe mu bikinisho umwarimu wigisha mu marerero agomba kuba afite harimo ibishushanyo, amakararo ndetse na karendari mu rwego rwo kugira ngo arangaze abana ubundi bige neza batabaye abanebwe.

Ibitabo, amakaye ndetse n'ingwa cyane cyane n'amakaramu, byifashishwa cyane n'abarimu bigisha mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye, mu rwego rwo kugira bibafashe gutanga amasomo yabo neza.

Uburezi buzira inenge ni imwe muri gahunda ikigo gikorera mu karere ka Nyagatare cy'amashuri, cyashyizeho mu rwego rwo gukangurira abanyeshuri ndetse n'ababyeyi barererayo kubyizera kandi bakabikorana umwete.

Abana bakorera mu marerero atandukanye mu mujyi wa Nyarugenge basanga imyitozo bakora ibagora cyane bitewe n'uko ikibuga cyabo kitashyizwemo amapave.

Bimwe mu bikinisho by'abana birimo ipensi, inyundo, ibikapu ndetse n'amasogisi ni byo bifashisha mu kugira ngo barangaze ubwenge bwabo.

Mu gihe bamwe bakomeje, kwibaza ubusobanuro bw'ururimi rw'amarenga, hari benshi barwumva neza, bakanazirikana akamaro karwo, bitewe n'uko rwifashishwa n'abantu bafite ikibazo cyo kutumva, kwisanga mu bandi bagatanga n'ibitekerezo binyuze mu rurimi rw'amarenga.

Abanyeshuri batandukanye biga mu mashuri yisumbuye mu kigo cya Ruhango. Bavuga ko uburyo bashyiriweho bwo kurebera hamwe imipira n'imyidagaduro muri salle ari byiza kuko bibafasha kuruhuka.

Mu nama yabaye yahuje abanyeshuri, ndetse n'abandi barezi batandukanye, byemejwe yuko igomba kubera ahantu hatuje, hari ameza, intebe, ndetse n'akuka keza.

Gushyira ibikoresho by'ikoranabuhanga mu bigo by'amashuri cyane cyane aby'abigenga usanga bifasha abanyeshuri gukora ibikorwa by'imenyerezamwuga biboroheye.

Ibigo by'amashuri bigomba kugira uruzitiro, bikagira ikigega ndetse byaba byiza bikagira na murandasi izajya ifasha abarimu ndetse n'abanyeshuri mu gukora ubushakashatsi.

Mu mashuri yisumbuye, uwahize abandi, mu mitsindire y'imibare, yatanze inama kuri bagenzi be bifuza, kugira amanota meza, mu gihembwe gikurikira ko bagomba gukora cyane ndetse bakirinda ubunebwe.

Mu bigo by'amashuri yisumbuye, abanyeshuri biganjemo urubyiruko bahuriye mu gikorwa bise Na we arashoboye, mu rwego rwo kugira umwana w'umukobwa na we ahabwe amahirwe angana n'ay'umuhungu mu nzego zigiye zitandukanye.

Umugabo umwe wambaye ijire, ingofero y'umweru abifashijwemo n'abandi bayobozi batandukanye bambaye amajire y'umweru, batembereye mu gikoni cy'amashuri kugira ngo barebe ukuntu ibiryo by'abana bitekwa.

Abana biga mu mashuri yisumbuye, bahuriye mu gikorwa kimwe cyo gusobanurirwa amateka yaranze igihugu cy'u Rwanda, mu rwego rwo kugira ngo nabo bazakure bazi neza ibyaranze igihugu cyabo, ndetse n'ibyagezweho babishyigikira.

Abana igihe bari mu ishuri ni ngombwa ko bifashisha ibikorwa birimo carculatrice ikoreshwa mu kubara imibare ndetse ubundi bagasubiramo amasomo yabo,

Mu karere ka Nyagatare biravugwa yuko ko hari indangagaciro zigomba kuranga umuntu wese utuye muri ako Karere, harimo kwirinda kunywa ibiyobyabwenge ndetse bakanashyigikira ubusugire bw'Igihugu.

kwibuka ku nshuro ya makumyabiri na kabiri Jenoside yakorewe Abatutsi, ikigo cya Nyagatare sekendari sikulu cyifatanyije n'abanyarwanda kuri uwo munsi w'icyo gikorwa.

Kigali today yatembereye ku ishuri riherereye i Nyamata, ubundi abayobozi batandukanye bahuriza hamwe abanyeshuri bigishwa uburyo bagomba kurangwa n'indangagaciro ndetse na kirazira.

Amashuri yisumbuye, abanyeshuri bayigamo bavuga yuko, hakwiye gukazwa ingamba zo gusubira mu masomo yabo, bitewe n'uko urubyiruko rwinshi rurangariye, mu bidafite umumaro.

Mu bikorwa birimo ubukorikori ndetse n'ubugeni, habumbwa ibicuma ndetse n'ibindi bifite ishusho nk'iy'iberehe, mu buryo bwo kugira ngo bikomeze gusigasira umuco w'u Rwanda kugira ngo udacika.

Ubwubatsi ndetse na parikingi bivugwa ko hagomba gushyirwamo amapave mu gihe hari benshi batabyiyumvisha bitewe n'uko nta bushobozi bafite bwo gukoresha ubwo buryo bw'imyubakire, ubundi Leta ikabasaba kubishyira mu bikorwa kandi vuba.

Muri Kaminuza rwagati ni ngombwa ko hashyirwamo jalide ifite indabo nziza kandi zigaragarira buri wese, ubundi ikagira n'utuyira twiza tutarimo ibyondo, bityo abanyeshuri bahiga bakiga batekanye kandi bameze neza.

Kubaka amashuri mu buryo bugeretse, ni byizayiza bitewe n'uko abantu igihe bari kuyakoresha bibafasha kwirinda indwara zitandukanye, zirimo n'ibyorezo ndetse n'ibindi.

Abana, bigira mu ishuri rikuru, riherereye i Gishari, bavuga yuko igihe bageze mu masaha ya nimugoroba, umuriro ugenda bityo bigatuma amasomo yabo atagenda neza.

Abana igihe bari hamwe ni ngombwa ko hashyirwaho ibizajya bibarangaza kugira ngo batazajya bitiranya ibyapa, mu rwego rwo gukangurira abantu kuba injijuke.

Abiga mu bigo bya leta ndetse n'ibyigenga hari benshi bishimiye gahunda yagaruweho yo guhabwa mudasobwa, izajya ibafasha mu myigire yabo ya buri munsi.

Mu nama yahuje urubyiruko ndetse n'abandi bakuze, biravugwa yuko igihe bari gufata amasomo yabo bagomba kwirinda gukoresha imbuga nkoranyambaga kuko zitatuma bamenya.

Mu uburyo bwo kwitwararika ndetse no kwirwanaho bisabwa ko inyuma mu bigo by'amashuri yaba ayigenga cyangwa aya leta, hashyirwaho uburyo bwo gusohoka kugira ngo nihabaho inkongi y'umurimo abanyeshuri abashe kurokoka.

Muri Kaminuza y'u Rwanda habereye igikorwa k'indashyikirwa cyo guha impamyabumenyi ndetse n'impamyabushobozi ku banyeshuri bo mu byiciro bitandukanye kugira ngo na bo babashe kugera ku isoko ry'umurimo bidatinze.

Umwarimu wigisha amateka ndetse na politike muri kaminuza y'u Rwanda, yabwiye abanyeshuri ko amateka yaranze u Rwanda yari akomeye, ndetse ko bagomba kuyashyigikira ndetse bakanayasigasira.